Uyu muntu biragaragara ko afite ibintu mu ntoki ari gusuka ashobora kuba ari gusuka inzoga kubera ko afite ikirahure ndetse akagira n'irindi cupa mu ntoki arimo imbere bivuga ko agiye kunywa kandi imbere ye hari televiziyo.

Aha turarebaho butike butike icuruza ibyo kurya bitandukanye, ndetse n'ibikoresho bitandukanye abantu bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, iyo bagiye kubifata babanza kwishyura amafaranga.

Kuri iyi nyubako turi kubonaho ngo Bale, Nganda na biso. Ni ukuvuga ngo bacuruza ibi byokurya, ndetse hakaba harimo n'inzoga nk'uko mubireba kuri ariya mafoto. Aha hantu abantu bakunda kuharira cyane.

Kuri iyi nyubako turi kurebaho ibintu bitandukanye, hariho aho bacururiza ariko ibicuruzwa nabyo bitandukanye, hamwe hari icyapa cy'umuhondo bivuga ko uyu muntu afasha abantu kubona amayinite muri Telefoni, ibi kandi birakorwa cyane.